Urubuga rw'ikigo cy'ishoramari ndetse n'ibijyanye n'imitungo, gikoreshwa na rubanda ndetse n'abandi, kiri kugaragaza imikoreshereze yarwo irimo amafaranga menshi.

Imyenda y'amoko atandukanye ndetse n'amabara atandukanye, umuhondo, ubururu, umutuku, iri hamwe isa nk'igiye kugurishwa mu buryo bugaragara.

Itangazo riranga ko imodoka iri kugurishwa y'ubwoko bwa hayiburidi ikoresha amashanyarazi ndetse na lisansi ikorwa n'uruganda rwa toyota, iri kugurishwa miliyoni mirongo itatu n' numunani n'igice.

Icyumba kirimo abantu bane, harimo abagore babiri, ndetse n'abagabo babiri, bigaragara ko gikorerwamo, ivunjisha cyangwa serivisi zijyanye n'amafaranga.

Inyemezabwishyu y'umusoro ku mutungo utimukanwa mu karere ka Kicukiro iriho amafaranga ibihumbi mirongo itanu na birindwi ndetse nta mpande ariho yatanzwe tariki cumi n'eshanu z'ukwakabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri.

Abantu babiri bari guhererekanya amafaranga y'amadolari ndetse n'amafaranga yo mu Buhinde, bisa nk'aho ari ahantu havunjishirizwa cyangwa haguranirwa amafaranga.

Umugore arabara amafaranga, afungiye hamwe ku buryo bimworohera kandi ntagire n'amwe asimbuka.

Inoti y'amafaranga yo muri Tanzania magana atanu, iriho umugabo wambaye ikoti ndetse n'ishati y'umweru.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'ivunjisha ry'amafaranga y'amanyamahanga, mu mafaranga arimo amadorari y'Amerika, amadorari ya Canada ndetse n'ayandi.

Hoteri, isa neza, y'amabara atandukanye, ubururu, umuhondo, n'umutuku. Ifite ubwogero busa neza, tutibagiwe n'ubusitani bw'amabengeza.

Ahantu hafite ibara ryera haba ku gisenge, ku bikuta bigabanyije icyumba kugeza ku meza uterekaho ibintu ndetse n'ibindi harasa umweru.

Ikigo gishinzwe imitungo ndetse n'ibijyanye n'amafaranga muri rusange nko kubikira abantu n'ibindi, aho gikorera hari urujya n'uruza rw'abantu ndetse benshi.

Isoko rusange ry'ibiribwa nka karoti, inyanya ndetse n'ibindi harimo urujya n'uruza rw'abantu.

Isoko ry'ibiribwa ryubakishijwe igisenge cy'ibyuma ndetse n'amabati, harimo n'abonerana. Isoko rigizwe n'ibiribwa bitandukanye, birimo ibitunguru ndetse na karoti.

Inzu iteye amabengeza, iri kugurishwa, ifite amakaro y'ibara rya kake, ndetse ifite inkuta zisa umweru.

Inzu isa neza y'ibyumba bine, iherereye muri Gisozi i Kigali iragurishwa, irasa neza cyane.

Inyubako nziza itageretse, iherereye i Kigali i Kanombe, riri gukodeshwa amafaranga angana na miliyoni mirongo inani neshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu iri gukodeshwa, irasa neza ifite ibyumba bitatu ndetse n'uburuhukiro bubiri, iri gukodeshwa amafaranga angana n'igihumbi cy'idorari buri kwezi.

Isoko rinini rihuza abagura ndetse n'abagurisha, ririmo ibikapu byo gutwara ibikoresho bitandukanye mu rugendo, aho waba ugiye.

Iguriro rito rifite imbuto z'amoko atandukanye zirimo inanasi, imineke, indimu n'amaronji.